Ni byiza gukoresha imiti mu buhinzi, hagamijwe kugira ngo ibihingwa bibone imbaraga zo guhangana n'imvura nyinshi cyangwa se bibona imbaraga zo guhangana n'udukoko twinshi dutandukanye, dushobora kuba twabyangiza bityo umusaruro ukomeze wiyongere.

Abahinzi benshi bakunda gukoresha imiti yica udukoko, hagamijwe kugira ngo imyaka irusheho kugira umusaruro ndetse hatabaho no kuba imyaka yapfa, bitewe n'uko itatewe umuti cyangwa se itakurikiranwe kugira ngo utwo dukoko tutataka iyo myaka.

Abahinzi benshi bakunda gukoresha imiti yica udukoko hagamijwe kugira ngo imyaka irindwe indwara ndetse ibe itanapfa bityo umusaruro wiyongere n'ibyokurya biboneke kandi ari byinshi.

Ubuhinzi budufatiye runini mu buzima bwacu, niyo mpamvu abahinzi baba bagomba gukoresha imiti itandukanye, hagamijwe kugira ngo barinde ibyonnyi imyaka yabo ndetse n'utundi dukoko dushobora gutuma umusaruro w'ubuhinzi ugabanuka.

Ubuhinzi budufitiye umumaro munini cyane, ni yo mpamvu abahinzi baba bagomba gukoresha imiti itandukanye, mu kwica udukoko dushobora kwangiza imyaka ndetse no mu buryo bwo kugira ngo imyaka igwize ubudahangarwa, ibyo bizadufasha kubona umusaruro mwinshi, dushobora kwikenuza, tugasagurira n'amasoko.

Amaduka ni ingenzi cyane kuko atuma tubona ibikoresho byinshi bitandukanye, nk'urugero dushobora kubonayo amakaramu abanyeshuri bifashisha bandika cyangwa se abandi ariko si n'ibyo gusa kuko habarizwamo ibicuruzwa bitandukanye.

Uburobyi bw'amafi budufatiye runini kubera ko bushobora kuba bwatanga akazi ku bayitaho ikindi kandi ba nyirayo bashobora kuba bayagurisha bityo bakabona amafaranga amafi kandi adufasha mu kwirinda imirire mibi kuko uwayariye atandukana n'indwara z'imirire mibi.

Ubworozi bw'amafi ni ingenzi cyane kubera yuko butanga akazi ku barobyi, aho bashobora kuroba bakabona amafaranga. Ikindi kandi n'uworoye ayo mafi ashobora kuba yayagurisha, bityo akaba yabona amafaranga amufasha mu bikorwa bye by'ubukungu.

Ubworozi bw'amafi ni ingenzi cyane kuko butuma tubona amafaranga, bukadufasha kandi kurwanya imirire mibi kandi ikindi bikadufasha kuba twagera ku isoko mpuzamahanga, aho tugurana n'abanyamahanga tukabahereza ibikomoka ku mafi na bo bakaba baduha amadovize cyangwa se bakatuguranira ibindi bicuruzwa.

Umwuga wo korora amafi ni mwiza cyane, kubera yuko bishobora gutuma ba rwiyemezamirimo bawo babona ku mafaranga kandi menshi; ikindi kandi abantu bashobora kuba babona akazi nk'ako kuroba amafi, kuyitaho no kuyagaburira.

Ubworozi bw'amafi ndetse no kuyaroba nabyo ni ingenzi cyane, aho usanga abantu bamwe na bamwe bashora amafaranga yabo mu korora amafi, ibyo ngibyo bigatuma abandi nabo bashobora kuba babona akazi ko kuba bayaroba cyangwa se mu kuyakurikirana kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Kuroba amafi bisaba ubuhanga aho usanga abayaroba bifashisha inshundura, bakayishyira mu kiyaga cyangwa se mu cyuzi hanyuma amafi akaba yajyamo, ayo mafi akimara gufatwa ashobora kuba yagurishwa bityo abayarobye bakabona amafaranga.

Ubworozi bw'amafi ndetse no kuyaroba byose ni ingenzi cyane, aho uworoye amafi ashobora kuba yakora ku mafaranga binyuze mu kuba yagurishije ayo mafi, abandi nabo bakaba babona akazi ko kwita kuri ayo mafi, bayagaburira, bayavura ndetse bamenya niba anameze neza.

Ubworozi bw'amafi ndetse n'uburobyi, ni ingenzi cyane. Aho usanga abantu benshi bahitamo gushora amafaranga mu bworozi bw'amafi, hagamijwe kugira ngo babone inyungu binyuze mu kuba bacuruza amafi mu isoko ry'imbere mu gihugu cyangwa se hanze, abandi na bo bagahitamo kuba abarobyi mu buryo bwo kugira ngo bivane mu bushomeri, bajye babona amafaranga.

Umushinga wo korora amafi urungura cyane, ariko biba bisaba kugira ngo rwiyemezamirimo wabyo agenzure neza niba amafi afite ari meza cyane, ikindi kandi ayamenyere n'ubuzima ayahe ibyo ku kurya, ayahereze n'imiti ituma akura neza ndetse n'ituma akira uburwayi butandukanye.

Ubworozi bw'amafi ni ingenzi cyane kubera yuko bituma abantu bashobora kuba babona amafi yo kurya bityo bigatuma habaho kugabanywa kw'imirire mibi ndetse no kurwanya indwara ziterwa n'imirire mibi. Ikindi kandi ubworozi bw'amafi butanga akazi ku bantu benshi ndetse tukaba twacuruza no ku isoko mpuzamahanga tukabona amafaranga y'amanyamahanga.

Ibihingwa ngandurabukungu bidufatiye runini mu Rwanda cyangwa se no mu bindi bihugu. Aho usanga nk'icyayi, ikawa, ibireti ndetse n'ibindi, bidufasha mu kuba twabona ku mafaranga y'amadovize cyangwa se abandi bakabibonamo akazi, bityo ubushomeri bugakurwaho.

Icyayi ni kimwe mu bihingwa ngandurabukungu gituma abantu babona amafaranga, aho abagihinga babonamo amafaranga ariko kandi abandi bakabonamo akazi mu kugisoroma no mu kugikorera, ikindi kandi icyayi gituma igihugu cyacu kibona ku mafaranga y'abanyamahanga, iyo twakigurishije hanze y'igihugu cyacu.

Ibishanga bidufasha guhinga ibihingwa ngandurabukungu, aho usanga ba rwiyemezamirimo babikoresha bahinga ubuso burebure, bagahinga bagamije kubona amafaranga ariko kandi bikorohera n'abantu kubona ibyo kurya ku giciro kiza.

Icyayi ni kimwe mu bihingwa ngandurabukungu, aho usanga abantu benshi bakunda kuba bagihinga mu buryo bwo kugira ngo babone amafaranga. Abandi nabo bakaba babonamo akazi mu buryo bwo kugihinga cyangwa se mu gukurikirana umwimerere wacyo bityo rero icyayi ni ingenzi kuko gituma tubona n'amafaranga y'abanyamahanga.

Ubuhinzi ni ingirakamaro cyane ku buzima bw'abantu, aho usanga abahinzi benshi bahinga ibihingwa bitandukanye ariko batagamije kuba barya gusa ahubwo bagamije no kuba bagurisha bagakirigita ku ifaranga bityo bikabafasha gukemura ibibazo bitandukanye.

Ibihingwa ngandurabukungu nk'ikawa ni ingenzi cyane ku bukungu bw'igihugu ndetse n'abaturage muri rusange kubera yuko abaturage bahinga ikawa, babona amafaranga bifashisha bikenuza ndetse n'igihugu kikaba cyabona imisoro ndetse kikabona n'amafaranga y'abanyamahanga, binyuze mu kuba ibyo bicuruzwa cyangwa se ibyo bihingwa byagurijwe hanze.

lmiti y'amatungo iba igomba gukoreshwa neza, kugira ngo ayo matungo arusheho kumera neza akure kandi abeho azira uburwayi. Ni yo mpamvu aborozi baba bagomba gusobanurirwa neza ibigendanye n'imiti uburyo ikoreshwa ndetse n'umumaro wayo.

Imiti y'amatungo igira umumaro kuri yo ariko cyane cyane iyo yakoreshejwe neza, ni ngombwa yuko aborozi basobanukirwa neza uburyo iyo miti yakoreshwa igihe igenewe itungo runaka, bityo iryo tungo rikaba ryakura neza cyangwa se ryaba rirwaye rikaba ryakira.

Imiti y'amatungo igira umumaro munini cyane mu gutuma amatungo abaho afite ubuzima bwiza, ni yo mpamvu aborozi baba bagomba kugana abavuzi b'amatungo bakaba babasobanurira uko imiti ikoreshwa ishobora gukoreshwa kugira ngo amatungo akure neza ndetse n'iyakoreshwa igihe yarwaye.

Imiti y'amatungo igomba gukoreshwa neza, ni yo mpamvu aborozi baba bagomba kuganirizwa uburyo iyo miti igomba gukoreshwamo kugira ngo amatungo yabo akure neza afite ubuzima buzima kandi naho yaba arwaye abashe gukira.

Imiti y'amatungo ni ingenzi cyane, cyane cyane nk'igihe amatungo yarwaye abavuzi b'amatungo bashobora kwifashisha iyo miti bavura ayo matungo kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza, ni ngombwa y'uko aborozi bose bagomba kugana abavuzi b'amatungo igihe amatungo yabo yahuye n'uburwayi.

Imiti y'amatungo ni ingenzi cyane kubera yuko ituma amatungo akura neza bityo umusaruro wayo nawo ukaba mwinshi. Ikindi kandi iyo miti ishobora kudufasha kuba amatungo yacu yarindwa uburwayi ndetse bigatuma atanasubira inyuma akarushaho gukura neza.

Imiti y'amatungo iba igomba gukoreshwa neza ni yo mpamvu bikwiriye yuko aborozi baba bagomba guhabwa inama z'uburyo igomba gukoreshwamo. Tukamenya neza niba ari arinda indwara n'indwara iyo ari yo cyangwa se ari yo ituma amatungo yabo akura akamera neza.

Imiti y'amatungo ni ingenzi cyane kuko bituma amatungo arindwa indwara kandi n'izirwaye zikaba zishobora kuba zavurwa, zikavurwa neza kandi ku gihe bityo zigakira zikamera neza. Muri ayo matungo harimo inka intama ihene ndetse n'izindi zitandukanye bityo aborozi ni ngombwa yuko bamenya imiti itandukanye y'indwara zitandukanye.

Imiti y'amatungo igira umumaro munini cyane mu gutuma amatungo akura neza ndetse no kuba yarindwa uburwayi, ni ngombwa y'uko aborozi basobanurirwa imiti iyo ari yo yose n'uburyo ikoreshwa n'umumaro wayo.

Aborozi bagomba gushishikarizwa gukoresha imiti y'amatungo hagamijwe kugira ngo akure neza kandi agire umusaruro mwinshi kandi hagamijwe kugira ngo ayo matungo arindwe uburwayi bityo akure neza.

Imiti y'amatungo ni ingenzi cyane ku borozi, kuko bituma aborozi bakurikirana neza amatungo yabo, cyane cyane igihe aba yahuye n'uburwayi butandukanye, ni byiza yuko umworozi amenya neza uburwayi ubwo aribwo bwose bushobora gufata itungo ndetse n'umuti wabyo.

Imiti y'amatungo ni ingenzi cyane ku borozi aho usanga hari imiti ituma amatungo akura neza akongera n'umusaruro ariko hakaba hari n'iyindi miti ituma amatungo aba kure y'uburwayi ndetse n'igihe yarwaye akaba yavurwa byihuse bityo agakomeza kubaho neza.

Imiti y'inyamaswa ni ingenzi cyane kubera yuko idufasha kubungabunga ubuzima bw'inyamaswa zitandukanye, aho inyamaswa ishobora kuba yahura n'uburwayi ariko bikoroha kuyivura kubera yuko umuti wayo uri kuboneka kandi uwo muti ukaba ufite ubuziranenge kandi wizewe.

Ubuhinzi bw'urutoki ni bwiza cyane. Aho usanga abahinzi bahinga insina nyinshi z'ibitoki zituma babona ibyo kurya ariko kandi bakaba basagurira n'amasoko, bityo bakabona amafaranga yo gukoresha mu bikorwa byabo bya buri munsi no kwikenura.

Ubworozi bw'ingurube ni ingenzi cyane, kubera yuko ababukora babona amafaranga menshi kandi mu gihe gitoya, aho ingurube ishobora kuba yabyara, ikabyara ibibwana nk'icumi, kandi mu gihe gitoya bityo uwazoroye akaba yabona amafaranga menshi.

Ubuhinzi ni ingirakamaro cyane, kubera yuko butuma abahinzi bikura mu bukene, bakaba babona icyo kurya bidasabye yuko bajya kukigura, ikindi kandi iyo barangije kwihaza mu biribwa bashobora no kuba bagurisha ibisigaye, bityo bakabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo.

Ubworozi bw'ihene ni ingenzi cyane kubera y'uko bifasha abantu kuba bakwikura mu bukene, ikindi kandi abandi nabo bashobora kubona akazi mu kuzikurikirana, bazivura bazimenyera ubuzima bityo hakagabanuka ikibazo cy'ubushomeri.

Ubuhinzi ni ingenzi cyane, niyo mpamvu abahinzi baba bagomba kuba baganirizwa uburyo ubuhinzi bukorwamo ndetse bagahabwa n'ubujyanama, bakaba bahabwa n'inkunga ariko igamije kugira ngo umusaruro uva mu buhinzi wiyongere.

Ubworozi bw'inka bugira umumaro cyane kubera yuko uwazoroye akazorora neza ashobora kuzazigurisha mu gihe kizaza akazigurisha amafaranga menshi ugereranyije n'ayo yazishoye, ikindi kandi iyo zibyaye ashobora kuba yabona amata yo kunywa ndetse akanayagurisha akabona amafaranga kandi ikindi akaba yabona ifumbire akoresha mu buhinzi, bityo umusaruro ukiyongera.

Ubuhinzi ni ingenzi cyane, kuko budufasha kwivana mu bukene, ndetse tukihaza no mu biribwa. Ikindi kandi, dushobora no kuba twagurisha ibyo twakuye mu buhinzi, bityo tukaba twabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo.

Ubuhinzi n ubworozi ni ingenzi cyane ku banyarwanda aho usanga borora amatungo atandukanye ashobora kubaha amata n'ifumbire, iyo fumbire bishobora kuba yakoreshwa bafumbira imyaka bityo umusaruro ukiyongera.

Ubuhinzi n'ubworozi ni ingirakamaro cyane, aho usanga nk'aborozi b'inka bashobora kuba babona amata bakayabonera ku gihe, ikindi kandi bashobora no kuba bayagurisha bakabonamo amafaranga, bakabona n'ifumbire bashobora kwifashisha mu buhinzi bwabo, bityo umusaruro ukiyongera.

ibihingwa ngandurarugo ni ingenzi cyane kubihinga, kandi bigahingwa ku buso bunini. Aho abantu bashobora kuba bakwihaza mu biribwa bo ubwabo bagasagurira n'amasoko. Bityo bikaturinda kwirinda inzara hagati yacu ndetse tukaba twafasha n'abandi gukora ibyoku kurya.

Urusenda ni igihingwa gikunzwe cyane. Niyo mpamvu usanga ba rwiyemezamirimo bagihinga bagamije kubona amafaranga. Ikindi kandi abantu benshi bararukunda kubera yuko rutuma bagira ubushake bwo kurya.

Guhinga ibigori ni byiza cyane. Kuko umusaruro wabyo ushobora kudufasha mu kwihaza mu biribwa mu miryango yacu, ariko kandi tukaba twanasagurira n'isoko, bityo bikaba byatuma abandi bantu na bo babona ibyo kurya.

Imyembe ni imbuto zikunzwe cyane. Aho usanga zigira uruhare mu igogora, ikindi kandi zikadufasha kwirinda indwara zitandukanye. Abahinga izo mbuto kandi babona amafaranga kuko barazicuruza. Na bo ubwabo kandi bashobora kuba bazirya, bityo bakarushaho kugira ubuzima bwiza.

Ubuhinzi bw'inzuzi ni ingenzi cyane kubera yuko uwabuhinze atandukana n'imirire mibi, aho ashobora kuba yarya amadegete ku ifunguro rye, ariko kandi si nibyo gusa kuko ashobora no kuba yagurisha ayo madegete, akabona amafaranga akemuza ibibazo afite.

Ubuhinzi bw'ibigori ni ingenzi cyane, aho abahinzi babyo, bashobora kuba babirya bo ubwabo, ariko kandi bakaba banabigurisha bakabona amafaranga yo gukemura ibindi bibazo, ibigori kandi bishobora kuba byavamo n'ifu yifashishwa mu bikorwa bitandukanye mu rugo.

Ubuhinzi ngandurabukungu ni ingenzi cyane kubera yuko budufasha kwikenura cyane mu miryango yacu, tukabona icyo kurya bitadusabye ko tujya kukigura. Ikindi kandi hanyuma yo kwihaza mu biribwa, dushobora no kuba twagurisha bityo tukaba twabona ibindi bintu dukeneye mu miryango yacu.

Amakoperative y'ubuhinzi ni ingenzi cyane aho usanga abahinzi bashobora gukorera hamwe, hagamijwe kugira ngo bongere umusaruro ndetse babe babona n'amafaranga menshi aturutse mu buhinzi bwabo, bityo rero ni ngombwa yuko abahinzi bahuza imbaraga kugira ngo umusaruro urusheho kwiyongera.

Imboga ni ingenzi cyane mu muryango kubera yuko zidufasha guhangana n'imirire mibi bityo abana bagakura bameze neza ndetse n'abakuru nabo bakagira ubuzima bwiza, ni yo mpamvu buri rugo ruba rugomba kugira imboga.

Ibihingwa ngandurarugo nk'ibigori, ibirayi, ibitoki ndetse n'ibindi, ni ingenzi cyane kubera y'uko bidufasha kuba twabona ibyo kurya bihagije mu miryango yacu ndetse tukaba twasagurira n'amasoko, bityo bigatuma tubona n'ibindi twari dukeneye.

Ubuhinzi bw'imyumbati ni bwiza cyane kubera yuko bituma abahinzi babasha kuba bayirya kandi bakaba bakuramo n'ifu ikorwamo ubugari, ikindi kandi bashobora kuba bayigurisha bakabona amafaranga bashobora gukemuza ibindi bibazo bafite.

Ibishanga bidufasha guhinga ibihingwa ngandurarugo ku buso burebure, bityo bigatuma tubaho turwanya inzara kandi tukihaza mu biribwa. Ikindi kandi dushobora no kuba twagurisha ibyasagutse, tukabona amafaranga yo kwifashisha mu bindi bibazo.

Amashyamba ni ingenzi cyane. Aho usanga atuma tubona imvura kandi tukayibonera ku gihe, ikindi akurura ba mukerarugendo. Si n'ibyo gusa kuko adufasha kuba twabona ibikoresho twifashisha mu bwubatsi no mu ngo zacu igihe dutetse.

Amashyamba adufatiye runini kubera ko adufasha kwirinda amasuri. Ikindi kandi atuma tubona imvura, tukayibonera ku gihe kandi si n'ibyo gusa kuko ashobora kuba isoko y'imboga n'imbuto, dukoresha mu buzima bwa buri munsi turya.

Amashyamba adufatiye runini cyane kubera yuko atuma tubona imvura kandi tukaba twabona ibikoresho dukoresha mu bwubatsi bitatugoye, ikindi ni uko bituma turushaho kuba twakwirinda isuri ndetse n'inyamaswa nyinshi, zikabona aho zitura.

Amashyamba akwiriye kubungwabungwa no kwitabwaho kubera yuko adufatiye runini cyane aho akurura nkaba mukerarugendo ikindi kandi akaduhiriza ibikoresho bitandukanye dukoresha mu bwubatsi cyangwa se inkwi dukoresha mu ingo zacu mu buzima bwa buri munsi.

Amashyamba ni ingenzi cyane, kubera yuko acumbikiye umubare munini cyane w'inyamaswa zishobora kuba zakurura ba mukerarugendo, ikindi kandi amashyamba adufasha kuba twabona imvura tukayibonera ku gihe, kandi tukabona ibikoresho dushobora gukoresha mu bwubatsi ndetse no mu ngo zacu dutekaho.

Amashyamba adufatiye runini kubera yuko acumbikiye inyamaswa nyinshi zitandukanye, ikindi atuma tubona imvura, akurura ba mukerarugendo, kandi ashobora no kuba yaduhereza ibiti dukoresha mu bwubatsi.

Amashyamba ni ingenzi cyane kubera yuko adufasha kubona ibikoresho twifashisha mu bwubatsi. Ikindi kandi, acumbikiye inyamaswa nyinshi, kandi adufasha kubona inkwi zo gucana. Si n'ibyo gusa kuko abenshi bashobora kubonamo akazi gatandukanye nk'ako kuyarinda, kuyakorera no kuyasazura.

Amashyamba ni ingenzi cyane. Niyo mpamvu tugomba gushyira imbaraga mu kuyatera ndetse no mu kuyasazura. Amashyamba adufasha mu kuba twabona ibiti twifashisha twubaka amazu kandi acumbikiye inyamaswa nyinshi zitandukanye. Ikindi kandi akurura ba mukerarugendo kandi ashobora no kuduhereza amafaranga twakwifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Amashyamba afite umumaro munini cyane. Aho usanga amashyamba acumbikiye inyamaswa nyinshi zitandukanye cyangwa se agakoreshwa barayagiramo amatungo kugira abone ubwatsi bwo kurya, andi mashyamba bakayakoresha kugira ngo babone inkwi zo gucana, kandi amashyamba adufasha no kuba twakwirinda amasuri. Ishyamba n'i ingenzi.

Amashyamba ni ingenzi cyane niyo mpamvu tugomba gushyira imbaraga mu kuyasazura ndetse no kuba twahinga ayandi mashya. Ikindi kandi, adufasha mu kuba twakwirinda isuri tukabona n'ibikoresho dukoresha mu bwubatsi, ndetse no kuba twabona inkwi zo gucana.

Amashyamba adufatiye runini, kubera ko acumbikiye umubare nyamwinshi w'inyamaswa zikurura ba mukerarugendo bityo tukabona ku mafaranga y'abanmanyamahanga, ikindi kandi aya mashyamba atuma tubonera imvura ku gihe, tukabona ibikoresho dukoresha mu bwubatsi ndetse n'ibyo dushobora gukoresha mu gu guteka.

Guhinga ibiti mu myaka na byo bijya bitugirira umumaro munini cyane mu kuba twakwirinda nk'isuri, ikindi kandi ibyo biti bishobora kuba byadufasha kuba twabonera imvura ku gihe bityo imyaka yacu igakura kandi ikera ifite umusaruro mwiza.

Guhinga ibiti tukabivanga n'imyaka nabyo bijya bidufasha cyane kuko biturinda kuba umuyaga wasenya amazu yacu, ikindi kandi bishobora gutuma twirinda imyuzure ndetse n'amasuri ariko kandi bikaba byanadufasha cyane mu kuba twabona imvura tukayibonera ku gihe.

Amashyamba ni ingenzi cyane kubera yuko atuma tubona imvura ikindi kandi atuma tubona ibikoresho twifashisha mu bwubatsi ndetse tunacana. Ikindi kandi ashobora kuba yakurura ba mukerarugendo batandukanye kandi acumbikiye umubare munini w'inyamaswa.

Amashyamba ni ingirakamaro cyane kubera yuko acumbikiye inyamaswa nyinshi zitandukanye, zikurura ba mukerarugendo. Ikindi kandi ni uko ayo mashyamba atuma tubona imvura, tukayibonera ku gihe.

Uturima tw'igikoni n'ingenzi ku muryango. Kubera yuko hahingwamo imboga nyinshi zitandukanye, bigatuma habaho kwirinda indwara ziterwa n'imirire mibi. Urugo rudafite akarima k'igikoni rushobora kuba rwahura n'ikibazo cy'igwingira ry'abana.

Ubuhinzi bw'ibihwagari ni bwiza cyane. Aho usanga abahinga ibihwagari babona amafaranga menshi cyane kubera yuko biba bikenewe cyane n'abantu benshi batandukanye. Ikindi kandi dushobora no kuba twabigurisha mu mahanga, bityo bigatuma tubona ku mafaranga y'amadovize.

Ubuhinzi bw'ibinyomoro bugira umumaro ku babukora, aho usanga abahinzi bashobora kuba babigurisha bityo bakabona amafaranga yo gukemura ibibazo bafite, ikindi kandi nabo ubwabo bashobora kuba babirya bityo bakarushaho kugira ubuzima bwiza.

Amapera ni zimwe mu mbuto zikunzwe cyane, aho usanga abantu benshi bazikunda ariko kandi zikaba zigira uruhare runini mu kurwanya imirire mibi. Ikindi kandi abantu bazihinga bashobora kuba babona ku mafaranga na bo ubwabo bakaba bazirya.

Imboga n'imbuto ni ingirakamaro cyane ku buzima bwa muntu, aho usanga zigira uruhare runini cyane mu kurwanya imirire mibi ariko kandi zikadufasha no gutegura indyo nziza kandi yuzuye.

Akarima k'igikoni ni ingirakamaro mu muryango, aho usanga gahingwamo imboga n'imbuto, zifashishwa harwanywa imirire mibi mu muryango, bityo abantu bakabaho neza, bafite ubuzima bwiza.

Imboga n'imbuto ni ingenzi ku buzima bwa muntu, kubera y'uko bigira uruhare runini cyane mu igogora ndetse no kuba umuntu yakwirinda uburwayi butandukanye ndetse no kuba twarwanya tugatsinda n'imirire mibi mu miryango yacu.

Umuhinzi aba agomba kuvomerera imyaka yiwe cyane cyane igihe habayeho ko izuba riva ryinshi, hakaba hagamijwe kugira ngo umusaruro wiyongere ndetse he kuba ikibazo cyo kuba imyaka yapfa kubera imvura yabuze.

Kuhira imyaka ni ingenzi cyane. Aho usanga iki gikorwa gikorerwa imyaka cyane cyane igihe k'izuba cyangwa se nk'abantu bahinga mu bishanga nabwo iyi gahunda yo kuhira imyaka ijya ibafasha cyane. Ni ukuvuga ngo ahantu kuhira biri ntabwo hajya hagira ikibazo cyo kuvuga ngo ntabwo barahinga kubera izuba kubera ko igihe icyo ari cyo cyose kiba gishobora kwera.

Guhinga mu gishanga ni byiza cyane kubera yuko imyaka yaho, itajya igira ikibazo cyo kuba yabura amazi kubera yuko imvura yabuze, iyo imvura yabuze, abahinzi bahita bifashisha amazi yo mu bishanga, mu kuvomerera imyaka yabo, bityo umusaruro ukarushaho kwiyongera.

Kuhira imyaka ni byiza ariko cyane cyane bikunda gukorwa igihe abahinzi bahinze imyaka ariko hakabaho kubura kw'imvura, ni ngombwa yuko abahinzi bose bakoresha kuhira igihe imvura yabuze bityo bigatuma umusaruro ukomeza kwiyongera ndetse ntihabe kudindira kw'imyaka.

Kuhira imyaka ni ingenzi cyane. Ariko bikunda gukorwa, igihe imyaka yatewe ariko hakabaho kubura kw'imvura. Bityo rero abahinzi bose yaba abahinze mu gishanga cyangwa se mu misozi, bahita batangira gukoresha gahunda yo kuhira, kugira ngo imyaka yabo idapfa, cyangwa se umusaruro ukabura.

Guhinga mu bishanga ni byiza cyane kubera y'uko biba byoroshye kuba imyaka yahorana itoto kuko nubwo imvura yabura abahinzi bifashisha amazi yo mu bishanga bavomerera imyaka yabo ikarushaho gukura neza.

Kuhira imyaka ni ingenzi cyane ariko cyane cyane bikorwa iyo abahinzi bahinze hakaza kubaho igihe k'izuba ry'igihe kirekire. Ni ngombwa yuko abahinzi bakoresha gahunda yo kuhira kugira ngo umusaruro utagabanuka cyangwa se imyaka ikaba yakwicwa n'izuba.

Kuvomerera imyaka bigira uruhare runini cyane mu gutuma umusaruro uba mwinshi ariko cyane cyane bikaba bikorwa igihe imyaka yahinzwe ariko imvura ikaba yabura.

Ubuhinzi ni ingirakamaro ku bantu bose niyo mpamvu abahinzi baba bagomba gushyira imbaraga mu kuvomerera imyaka yabo igihe bayihinze ariko hakabaho ikibazo cyo kugira ngo imvura ibe nkeya icyo gihe baba bagomba kuyivomerera kugira ngo umusaruro utagabanuka cyangwa se bigapfa.

Amazi yo mu bishanga, agira uruhare runini cyane mu kuvomerera imyaka, cyane cyane mu gihe cy'izuba, aho abahinzi bahinga ibihingwa byabo, bashobora kuba bakoresha ayo mazi, hagamijwe kugira ngo imyaka yabo idapfa cyangwa umusaruro ukagabanuka.

Kuvomerera imyaka ni byiza kubera yuko bituma umusaruro udahungabanywa, no kuba imfura yabuze. Ni ingenzi cyane rero yuko buri muhinzi wese igihe habayeho kubura kw'imvura, atarekera iyo ngiyo, ahubwo agomba gufata ikemezo cyo kuvomerera iyo myaka ye.

Abahinzi baba bagomba kuvomerera imyaka yabo ariko cyane cyane igihe bahinze ariko hakabaho ikibazo cyo kubura kw'imvura, icyo gihe ni ngombwa yuko abahinzi bavomerera iyo myaka hagamijwe kugira ngo umusaruro utagabanuka cyangwa se imyakama ikuma.

Imiterere y'ahantu niyo igena icyo ahantu hashobora gukorerwa, niyo mpamvu usanga ahantu h'imisozi miremire hakunda guterwa amashyamba ndetse hakaba hacibwa n'indinganire kugira ngo hatazatakwa n'isuri.

Imiterere y'ahantu ishobora kudufasha neza kumenya nk'ikintu cyahakorerwa, aho usanga nko mu bibaya hashobora kuba hahingwa nk'imiceri, karoti cyangwa se izindi mbuto. Ariko ku imisozi hakaba hahingwa nk'amashyamba cyangwa se ibishyimbo n'ibindi.

Imiterere y'ahantu ishobora kugena ibikorwa bihakorerwa aho usanga mu misozi miremire bahaca indinganire bakahatera n'ibiti kugira ngo hatazajyanwa n'isuri naho ahadahanamye cyane abantu bashobora kuba bahatura bakahahinga n'ibihingwa bitandukanye harimo nk'urutoki n'ibindi.

Imiterere y'ahantu niyo ishobora kugena igikorwa gishobora kuhakorerwa .Rimwe na rimwe uzasanga nko mu misozi miremire abantu batahatura, ahubwo hakaba haterwa nk'amashyamba ndetse n'ibindi ,ariko ugasanga abantu batura mu bibaya ndetse n'ahandi hantu hadahanamye cyane.

Imiterere y'ahantu ni yo igena igikorwa gishobora kuba cyahakorerwa, aho usanga nk'ahantu hahanamye hashobora kuba hacibwa nk'indinganire hakanaterwa n'amashyamba kugira ngo harusheho kuba habaho ariko isuri itahishe nabi.

Imiterere y'ahantu igena igikorwa gishobora kuba cyahakorerwa, aho usanga nko mu misozi haterwa amashyamba, amakawa ndetse n'ibindi bihingwa, ariko ahantu harambitse cyangwa se hadahanamye cyane hakaba haturwa cyangwa se hagahingwa nk'ibihingwa harimo nk'umuceri n'imbuto.

Ubworozi bw'inka ni ingenzi cyane kuko butuma tubona amata yo kunywa bugatuma tubona inyama zo kurya kandi ikindi bitanga n'akazi kuko hari benshi baba bakora muri ubwo bworozi.

Ubworozi bw'inkoko ni ingirakamaro cyane kubera y'uko bituma ba rwiyemezamirimo babona ku mafaranga, ikindi kandi abantu bakaba babona n'amagi bakoresha barya bityo bigatuma indwara zigabanuka, ni ngombwa y'uko inkoko zitabwaho zigahabwa imiti ituma zikura neza ndetse zikaba zanavurwa neza igihe zirwaye.

Ubworozi bw'inkoko ni ingenzi cyane kuko bushobora gutuma tubona amafaranga cyangwa se tukabona amagi twifashisha turwanya imirire mibi, bityo rero abantu benshi bakunda kuba bashora amafaranga yabo mu nkoko, mu buryo bwo kugira ngo babone amafaranga abiturutsemo.

Umworozi w'inka aba agomba kubaka ikiraro neza ariko kandi kikaba kinasakaye. Hagamijwe kugira ngo inka ibe ibayeho neza. Ikindi kandi inka ze aba agomba kuzifata neza zikabaho zizira uburwayi, akaba yaziha n'imiti ituma zikura, umusaruro ubwiyongera.

Korora imishwi ni ingenzi cyane kubera yuko bituma umuntu abonaa amafaranga kuko iyo izo nkoko uzigurishije ushobora kubona amafaranga yo kuba wakwigira. Kandi ikindi bitanga akazi kuko bamwe babona akazi mu gukurikirana iyo mishwi bayimenyera ubuzima kugira ngo irusheho kugira ubuzima bwiza.

Korora inkwavu ni byiza cyane, ariko cyane cyane iyo zororewe ahantu hafite isuku kandi hafite umutekano, bikazifasha kororoka neza kandi mu gihe gitoya. Ikindi kandi uzoroye aba agomba kuzitaho akazimenyera imiti ituma zikura neza ndetse nituma zitarwara.

Ubworozi bw'inka bugira umumaro kuri nyirabwo cyane, aho usanga ashobora kubona amata yo kunywa ndetse akaba yanayagurisha akabona ibindi akeneye, si n'ibyo gusa kuko abona ifumbire y'imborera yifashisha mu buhinzi bityo umusaruro ukiyongera.

Ubworozi bw'inka ni ingirakamaro ku bantu bose ahantu hose kubera y'uko inka zishobora kwifashishwa habonwa amata yo kunywa mu buryo bwo kurwanya imirire mibi, ikindi kandi inka zishobora kuba zatanga inyama zo kurya, kandi ikindi inka zishobora kuba zakoreshwa habona ifumbire kugira ngo ubuhinzi burusheho gutera imbere.

Ubworozi bw'ingurube bugira inyungu nyinshi. Niyo mpamvu usanga aborozi benshi bakunda kuba bazorora kubera ko baba batekereza yuko zikura vuba zikaba zabungura vuba. Ikindi kandi iyo zibwaguye zitanga ibibwana byinshi bishobora kuba isoko y'amafaranga kandi mu gihe gito.

Umushinga wo guturagisha imishwi, utuma nyirawo abona amafaranga menshi, aho ashobora kuba iyo mishwi yayigurisha ku bantu batandukanye, akaba yabona amafaranga yifashisha mu bikorwa bye bya buri munsi, bityo akarushaho gutera intera.

Ubworozi bw'inka ni bwiza cyane kubera yuko butuma tubona amata yo kunywa ndetse tukaba twanasagurira n'isoko, ikindi kandi dushobora kuba twabona ifumbire dushobora gukoresha mu buhinzi bityo umusaruro wacu ukarushaho kwiyongera.

Ubworozi bw'inkoko ni ingenzi cyane aho usanga abantu benshi bashobora kuzorora bagamije kugira ngo babone amafaranga cyangwa se hagamijwe kugira ngo bajye babona amagi ashobora gukoreshwa aribwa hagamijwe kurwanya imirire mibi cyangwa se hagakorwamo umureti ukundwa n'abantu benshi.

Ubworozi bw'inka nabwo bugira umumaro munini cyane igihe umuntu yabukoze neza, aho ashobora kuba yabona amata yo kunywa kandi akaba yanayagurisha akabona ibindi akeneye. Ni ingenzi ko umworozi yita ku matungo ye cyane cyane nk'inka kugira ngo arusheho kubona umusaruro ukwiriye.

Ubworozi bw'amatungo ni ingenzi cyane. Urugero nk'abantu borora ingurube babasha kuba babona amafaranga byihuse kubera ko ingurube zikura vuba, ikindi kandi ingurube zororoka cyane aho ingurube ishobora kubyara rimwe ikaguhereza nk'ibibwana icumi bityo bikagufasha kuba wabona amafaranga mu gihe gitoya kandi menshi.

Gutegura imbuto bisaba ubuhanga, ni yo mpamvu ababihuguriwe baba bagomba kugira uruhare mu gutegura imbuto zizahingwa kugira ngo hazavemo umusaruro mwinshi ndetse n'abazihinze babe babibonamo inyungu.

Ubuhinzi ni ingirakamaro ku buzima bwa muntu, aho usanga mbere yuko imbuto zijyanwa mu murima, zibanza gutegurwa, zigatoranywa kandi zikanabikwa neza, hagamijwe kugira ngo zizahingwe neza kandi zimere, umusaruro wazo ube unoze kandi umeze neza ari na mwinshi.

Abavuzi b'inka baba bagomba kuba barabihuguriwe hagamijwe kugira ngo basobanukirwe neza ubuzima bw'inka bamenye imiti baziha kugira ngo zirusheho gukura neza zongere n'umusaruro ariko kandi bamenye n'imiti bakoresha igihe izo nka zahuye n'uburwayi.

Ubuvuzi bw'amatungo ni ingirakamaro cyane, aho usanga abavuzi b'amatungo babihuguriwe, badufasha kuba amatungo yacu yagira ubuzima buzima. Cyane cyane nk'igihe amatungo yahuye n'uburwayi butandukanye, bashobora kudufasha, kuba bayavura. Ikindi kandi nk'igihe itungo riri kubyara ariko ntibigende neza, bashobora kudufasha bityo itungo rikaba ryabyara neza nta kibazo.

Inyama ni ikiribwa cyiza cyane, aho usanga abantu benshi bayifata ku mafunguro yabo. Ni ngombwa yuko ababihuguriwe, cyangwa se abize ibigendanye n'ubuzima bw'amatungo, bagomba kubanza kuzisuzuma, bakamenya neza niba izo nyama nta ngaruka zagira, ku buzima bwa muntu.

Abavuzi b'amatungo bagira uruhare runini cyane mu gutuma inka zigira ubuzima bwiza, aho bashobora kuba bazivura igihe zirwaye ariko kandi bakaba batuma zigira n'ubuzima bwiza binyuze mu kuziha imiti ituma zikura neza.

Amatungo agomba kwitabwaho cyane, ni yo mpamvu aba agomba guhabwa imiti ituma akura neza, ikindi kandi mu gihe yahuye n'uburwayi akaba yavurirwa ku gihe kandi agahabwa imiti myiza kugira ngo akire kandi arusheho kugira ubuzima bwiza.

Ubuvuzi bw'amatungo ni ingenzi cyane. Aho abavuzi b'amatungo babihuguriwe bashobora kumenya neza uburwayi itungo rifite bityo bakarikurikirana bakanarivura. Ikindi kandi bashobora kudufasha mu kuba batugira inama z'ukuntu twafata amatungo yacu neza, bityo akabaho azira uburwayi ahubwo akaba abayeho neza.

Ubuvuzi bw'amatungo ni ingenzi cyane. Aho ababihuguriwe bashobora kuba bavura amatungo yacu igihe arwaye cyangwa se bakaduhereza ubujyanama bw'uburyo amatungo yabaho neza azira uburwayi.

Abavuzi b'amatungo bagira uruhare runini mu gutuma tugira inka nziza kandi zifite ubuzima buzima kubera yuko bashobora kuba batugira inama z'uburyo amatungo yacu yabaho neza kandi akaba ashishe, ikindi kandi akaba yabaho anazira uburwayi.

Inyama ni ikibwa gikunzwe n'abantu batandukanye, niyo mpamvu ziba zigomba gupimwa mbere y'uko ziribwa kugira ngo harebwe niba nta ngaruka ziribuze kugira mu bantu baribuze kuzirya.

Ubuvuzi bw'amatungo ni ingenzi cyane, niyo mpamvu haba hagomba guhugurwa abantu benshi ibigendanye n'uburyo ubuzima bw'amatungo bwakurikiranwa, uburyo yakuramo cyangwa se uburyo yakwitabwaho igihe arwaye.

Inyama ni ikiribwa gikunzwe n'abantu benshi, niyo mpamvu abize ibigendanye n'amatungo baba bagomba gusuzuma inyama mbere y'uko ziribwa kugira ngo barebe niba nta ngaruka ziragira ku buzima bw'abantu.

Ubuvuzi bw'amatungo budufatiye runini aho usanga nk'ababihuguriwe badufasha kuba twamenya neza indwara amatungo yacu afite ndetse bakaduhereza n'ubujyanama kugira ngo amatungo yacu arusheho kugira ubuzima buzima.

Inka iyo zikurikiranwe neza, zigakurikiranwa n'abavuzi babihuguriwe zishobora kuba zakongera umusaruro cyane. Ikindi kandi zishobora kubaho zifite ubudahangarwa zitarwaragurika kubera yuko zikurikiranwa n'ababihuguriwe kandi babizi.

Burya rero inyoni nazo zidufitiye umumaro munini cyane kubera yuko zishobora kuba zikurura ba mukerarugendo, bityo tukabona ku mafaranga y'abanyamahanga. Ikindi kandi zishobora no kuba zatanga akazi aho bamwe babona akazi ko kuzirinda no kuzitaho no kumenya ubuzima bwazo.

Inyamaswa zo mu mashyamba nazo zijya zigira umumaro munini cyane kubera yuko bamwe bashobora kuba bahabwa akazi ko kuzirinda no kuzitaho kugira ngo zigire ubuzima bwiza. Ikindi kandi zikurura ba mukerarugendo aho abantu benshi baba bifuza kuba bazimenya. Bityo rero tukaba twabona amafaranga y'abanmanyamahanga.

Inyamaswa zo mu ishyamba, harimo nk'inkende ndetse n'ibitera, ni zimwe mu zibarizwa mu mashyamba ya Nyagatare. Bityo rero, zishobora kuba zakurura ba mukerarugendo batandukanye kubera ko baba bafite amatsiko yo kuba bazimenya.

Inyamaswa zo mu ishyamba zigira umumaro munini cyane kubera ko usanga zikurura ba mukerarugendo kandi ikindi zitanga n'inyama abantu bashobora kurya. Ikindi kandi zishobora no kuba zagira uruhare mu gutanga akazi aho abantu bashobora guhabwa imirimo yo kuzirinda no kuzitaho.

Inyamaswa zo mu ishyamba nk'intare ni ingenzi cyane kubera yuko abantu benshi bashobora kuba babona akazi nkako kuzirinda no kuzitaho ikindi kandi zikurura ba mukerarugendo bituma tubona ku mafaranga y'abanyamahanga.

Imbwa ni inyamaswa zitinyitse cyane. Aho usanga zishobora kuba zibarizwa mu mashyamba cyangwa se zikaba zibana n'abantu mu mago. Ni ngombwa yuko imbwa zikingirwa ndetse zikanacungwa neza kugira ngo zitagira abo zirya bakaba bahura n'uburwayi bukomeye.

Inyamaswa zo mu ishyamba ni ingenzi cyane, aho inyamaswa zimwe na zimwe harimo nk'inyoni zikurura ba mukerarugendo. Ikindi kandi, izi nyoni zishobora kuba zatanga akazi kubera ko abaturage bamwe na bamwe bahabwa imirimo mu kuzitaho no kuzimenyera ubuzima kugira ngo zibeho neza.

Ingagi ni iz'igiciro kinini ku gihugu cyacu kubera yuko zikurura ba mukerarugendo. Abantu benshi baba bafite amatsiko yo kwibaza imibereho y'ingagi n'uburyo zibayeho bityo bakazisura bakaba baduha amafaranga y'amanyamahanga.

Ibitera na byo ni ingenzi cyane ku Gihugu cy'u Rwanda kubera yuko bikurura ba mukerarugendo, bityo bikaba byatuma tubona ku mafaranga y'amadovize, ikindi kandi abantu bashobora kuba babona imirimo yo kubirinda, kubivura ndetse no kubyitaho.